Ndabona abantu bari mu nama, abagore n'abagabo muri salle irimo amarido y'igitare, iteye irangi ryigitare, inyuma hari umuntu wegamye ku nkingi, iri muri iyo salle, imbere yabo bicaye hateretse amazi ari mu ducupa.

Ni abantu bari mu nama, bicaye mu buryo bw'uruziga, umwe arahagaze, imbere yabo ku meza hateretse ubucupa bw'amazi, bicaye ku ntebe zifite ibitambaro by'igitare.

Ni abantu babiri umugore n'umugabo, umugore yambaye amadarubindi kandi afite ikaramu mu ntoki y'ubururu, yarambuye ikayi akaba imbere yaho hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi dufite umufuniko w'ubururu.

Ni abantu batandukanye abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe z'igitare imbere ku meza hateretse uducupa tw'amazi, kandi aho bicaye hari icyapa inyuma cyanditseho invesiti ini Rwanda.

Ni abantu benshi bicaye abagabo n'abagore ndetse hakaba hari umwe uhagaze uri kuvugira muri mikoro akaba afashe mikoro ndetse iyo mikoro ikaba ifite ibara ry'igitare, inyuma ye hakaba hari abicaye ku ntebe ku zifite ibara ry'igitare za purasitike.

Abantu bicaye bari mu nama, abagore n'abagabo, imbere yabo ku meza hateretse uducupa turimo amazi n'uturabyo, umwe yambaye ingofero y'Abasilamu, inyuma y'aho hari Kameramani, hejuru hari parafo irimo amatara ifite ibara ry'igitare.

Ni abantu benshi, bahagaze abandi bicaye, hakaba harimo umusaza ufashe mikoro ifite ibara ry'umukara, na we akaba yambaye ikote ry'umuhondo ,inyuma ye hakaba hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Ni umugabo wambaye umupira w'umukara uriho utubara tw'umutuku n'igitare n'ubururu, akaba afashe mikoro, ndetse inyuma ye hakaba hari icyapa kiriho inyuguti ya FPR, kandi iruhande rwaho hakaba hari igitambaro kiriho amabara y'umutuku n'igitare.

Abantu bari mu nama harimo uwifashe kumunwa wambaye rinete z'umukara, harimo abakamera mani babiri inyuma.

Abantu bicaye bari mu nama, umukobwa arahagaze afite mikoro, yambaye isaha y'ubururu n'umupira w'ikigina wanditseho imbuto fondeshoni, afite ikaramu mu ntoki ibumoso bwe hari undi mukobwa wambaye ikanzu y'umukara na shanete n'isaha, afite telefone mu ntoki abo bakobwa bahagaze barasutse.

Ni umugabo wicaye ku ntebe akaba yambaye ikoti ry'umukara na karuvati y'umukara, inyuma ye hakaba hari ameza n'intebe zifite ibara ry'icyatsi, imbere ye ku meza hakaba hateretse telefone ye n'ikayi n'ikaramu.

Ni abantu benshi abagore, abagabo, bicaye ku ntebe z'ubururu, inyuma y'aho bicaye hari ipoto ririho insinga nyinshi zijyana umuriro mu ngo z'abaturage.

Ni abantu bari mu nama abagabo n'abagore, ku meza y'aho hateretse ubucupa bufite ibara ry'igitare n'ubururu burimo amazi, hadekoresheje ibitambaro by'igitare, inyuma yabo bose hari kameramani uri gufotora.

Ni abaturage bari mu nama bamwe bafite imitaka, bafite umutaka w'ubururu, umukara, umutuku n'icyatsi, inyuma yaho hari imodoka bamwe bari gukoma amashyi, hari umukobwa umanitse intoki ebyiri yambaye ishati y'igita n'ipantaro y'umutuku inyuma yabo hari ibiti.

Ni umugabo wambaye linete z'umukara, akaba afite mikoro y'ibara ry'umukara n'isaha, akaba yambaye impeta ku rutoki, yambaye umupira w'ikigina urimo uturongo tw'igitare, akaba ari mu nama arimo aravuga, hari n'abandi bicaye imbere ye bari kumva inama ari kuvuga ndetse kandi hakaba inyuma ye hari intebe zifite iba ry'icyatsi.

Ndabona abakobwa babiri bari kubyina bambaye umukenyero w'igitare n'utubode tw'igitare, bambaye byambaye urunigi rw'igitare biteze udutambaro mu mutwe tw'igitare bateze amaboko ndetse bari guseka amenyo aragaragara.

Ni abantu batandukanye, abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi, inyuma yabo hakaba hari ibitambaro by'ibara ry'igitare.

Ni agaseke gateretse ahantu h'igitare, ku rukuta rw'igitare kakaba gafite amabara atandukanye, harimo ibara ry'igitare n'umukara hejuru ku mutemeri hakaba hariho akagozi gafite ibara ry'umukara.

Ndabona ababyinnyi, umwe ari kuririmba afashe mikoro, abandi biteze udushanana bari gukoma amashyi , inyuma yabo hari ibirabyo, ndabona ingoma n'imirishyo .

Ndabona umugabo uhagaze imbere y'inka zifite amahembe maremare, harimo iyambaye iherena ry'umuhondo inyuma y'aho y'izo nka hari ibiti birebire...

Ni umukobwa w'umubyinnyi ari gukoma amashyi, yambaye umukenyero w'igitare, n'agapira k'igitare, yambaye urunigi mu ijosi, yiteze udutambaro tw'igitare tubiri mu gahanga, yasetse.

Ni abagabo babiri bambaye amashati y'igitare, imikenyero y'igitare, bafashe inkoni mu ntoki, bambaye umwe yambaye isaha basetse, bigaragara ko bishimye bambaye inigi mu gatuza kandi biragaragara ko bari mu bukwe nk'igikorwa cy'umuco.

Ndabona umusambi, intebe y'ikidongi nkabona n'umukeka nkabona ndetse n'umuheto n'amarido.

Ni amayogi bambara mu kaguru, bafashisha barimo kubyina, aziritse ku kagozi k'uruhu gafite ibara ry'umuhondo, ayo mayugi ari mu twuma dufite ibara ry'umukara.

Ni abagabo b'ababyinnyi bambaye amashati y'igitare kandi bafite amayugi ku maguru, inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditseho Repubulika y'u Rwanda, bakaba bari kubyinira ahantu hafite ibara ry'icyatsi ndetse hari n'imitako y'umuhondo n'icyatsi.

Ni abakobwa bari kubyina, umwe yambaye umukenyero w'igitare kandi yambaye urunigi mu ijosi, yiteze udutambaro mu gahanga tw'igitare, ateze amaboko, abandi baricaye.

N'icyibo gifite n'umutemeri gifite ibara ry'umukara mu imbere haragaragara nk'igitare giteretse hasi.

Ni umugore urimo kubyina, yasetse, yishimye, ateze amaboko, yikenyeye umukenyero w'ibara ry'gitare, yambariyemo agapira k'igitare.

Ni umugabo wambaye amadorubindi y'umukara akaba yasetse amenyo ari kugaragara, akaba yambaye isaha y'umukara afite mikoro y'umukara, yambaye ishati y'ikigina iciyemo uturongo tw'igitare.

Ni imyambi bakoresha barasa umuheto kandi ikaba yose hamwe ari umunani ifashe ku tubaho tubiri, inyuma ikaba ifite utubaba, imbere ikaba isongoye hariho uducumu tw'umukara.

Ni umukobwa uteze amaboko uri kubyina imbyino gakondo, akaba yambaye umukenyero w'igitare ndetse n'urunigi rw'igitare, yasetse bigaragara ko yishimye cyane.

Ni igikoresho cyo mu rugo cyifashishwa bashyiramo amazi cyangwa se inzoga, kikaba gifite ifatiro rirerire ndetse n'indiba nini, kitwa igicuma kandi gikoreshwa ahantu hatandukanye, gifite ibara ry'umutuku.

Ni igikoresho gikoreshwa basukamo inzoga cyangwa amazi, gifite ijosi cyangwa ifatiro rirerire, kitwa igicuma, gifite ibara ry'umutuku, giteretse ku meza y'umutuku.

Ni ingoma bavuza iyo bari kubyina ifite imirishyo ibiri, izengurutswe n'amabara y'igitare, iteretse ahantu h'umutuku, inyuma n'aho ni umutuku.

Ni ababyinnyi bagizwe n'abakobwa ndetse n'abahungu, abahungu bateze amaboko bambaye amashati y'igitare n'imipira y'umutuku, inyuma yabo hari umuntu uri kubafotora akaba afite na kamera.

Ni ababyinnyi abo babyinnyi bakaba bari kubyina imbyino nyarwanda kandi bamwe bakaba bari kuvuza ingoma, abandi bari gukoma amashyi, umwe akaba afate mikoro arimo araririmbiramo, abakobwa bakaba bambaye imikenyero y'umukara n'udupira tw'igitare.

Ni ihuriro ry'umuriro w'amashanyarazi rigizwe n'insinga nyinshi ndetse n'ipoto. Hakaba hari abantu bahagaze hasi. Bambaye ingofero z'umuhondo n'utujiri tw'umuhondo.

Mu ihuriro ry'umuriro w'amashanyarazi hakaba harimo insinga zitandukanye, zifite amabara atandukanye umutuku, ubururu, umuhondo, hakaba hari kugaragara akaboko n'intoki z'umuntu wambaye ikote ry'umukara.

Ni amapoto y'amashanyarazi maremare ariho insinga nyinshi zitandukanye zijyana amashanyarazi mu ngo zitandukanye, hasi hakaba hari itaka ry'umutuku kandi imbere yaho hakaba hubakishije ikorotire y'amatafari ahiye.

Ni umuhanda uciye hagati y'inyubako, ziteye irangi ry'umuhondo kandi hakaba hari amapoto ariho insinga z'amashanyarazi. Inyuma y'izo nyubako hakaba hari ibiti birebire by'inturusu.

Ni ipoto rirerire ry'umuriro w'amashanyarazi rihuriweho n'insinga nyinshi zitanga amashanyarazi mu ngo zitandukanye, inyuma yaho hakaba hari igiti kirekire.

Mu ihuriro ry'amashanyarazi harimo insinga zitandukanye iz'umutuku n'ubururu n'umukara, umuntu urikuramo yambaye igisurubeti cy'ubururu, yambaye isaha ku kaboko y'umukara, yambaye na ga z'igitare.

Ni abakozi b'amashanyarazi bari ahantu hari insinga nyinshi ndetse n'ibyuma byinshi, bambaye ibisubeti by'ubururu ndetse n'ingofero z'umukara, bambaye na ga zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibyuma ku ruhande bifite amabara y'umutuku.

Ndimo kubona ikirangantego cya rege, ijambo ryanditseho Rwanda inagi gurupe, nkabona ipoto ririho insinga nyinshi cyane, nkabona na code wahamagara kuri rege igihe wahuye n'inkongi y'umuriro ni kabiri kabiri kabiri karindwi kabiri karindwi.

Ni ipoto ry'amashanyarazi hariho n'insinga z'amashanyarazi, hejuru hicaye umuntu wambaye igisubeti cy'iroza n'ingofero y'ubururu, hasi imbere y'ipoto hari ibiti, iruhande rwaho hari igihingwa cy'umuceri.

Ni ipoto rirerire, rihuriweho n'insinga nyinshi, rikaba munsi yaho hari abantu bahagaze, bambaye ijire y'umutuku kandi hakaba hari n'undi wambaye ijire y'umutuku uri kuyurira.

Ni ipoto ry'amashanyarazi, ririho insinga z'amashanyarazi nyinshi, hakaba n'umugabo wuriye iryo poto wambaye ingofero y'umuhondo ndetse n'itaburiya y'ubururu.

Ndabona imirasire ine iri ahantu hari ibyatsi, inyuma yaho hari ibiti, iyo mirasire yubakiye ku mbaho, iruhande rwayo hari ibiduramu by'amazi bifite ibara ry'ubururu bibiri.

Ni umukozi w'amashanyarazi wambaye itaburiya yanditseho kane kane, iyo taburiya ifite ibara ry'umukara, yambaye ingofero y'igitare ari gukanda kuri kashi pawa ifashe ku rukuta, iyo nzu iteye karabasasa ndetse n'irangi ry'igitare.

Mu muhanda wa kaburimbo iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari icyapa k'igitare cyanditseho ijambo Reg, mbere y'aho hakaba hari amapoto maremare ariho insinga.

Ni ipoto y'amashanyarazi, nini iriho insinga, ndetse iruhande rwaho hari inyubako iteye irangi ry'igitare, imbere yiryo poto hari, ishyamba riri ku kumusozi.

Ni abagabo babiri bari hejuru y'inyubako ifite amabati y'umutuku bose bambaye imipira y'umuhondo umwe afite inyundo bari kumanika umurasire hejuru y'inyubako, umurisire ufite ibara ry'umukara ku ruhande iry'igitare.

Ni umugore uri hejuru ku ipoto ry'amashanyarazi hariho n'insinga zamashanyarazi, yambaye ingofero y'umuhondo n'igisurubeti cy'umukara n'umukandara wa iroza ahagaze ku urwego.

Ni amapoto menshi afite insinga zitandukanye zijyana umuriro mu ngo kandi hahagaze abantu bambaye ingofero z'igitare, umuhondo, bambaye n'amajiri y'imihondo n'amapantaro y'umukara, bahagaze mu muhanda, abandi bahagaze ku ruhande rw'umuhanda.

Ni umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka nini ifite ibara ry'igitare, iburyo bwawo hakaba hahagaze abantu bari ku murongo, bambaye udupfukamunwa tw'igitare, ndetse n'inyubako zisakaje amabati y'ubururu, n'umusozi uriho ibiti byinshi.

Ni abantu bari kugenda mu muhanda, bageze ku kiraro gifite ibyuma by'icyatsi kandi inyuma y'icyo kiraro hakaba hari ibiti birebire cyane, harimo n'ibyageveriya ndetse abo bantu bakaba harimo n'abambaye ingofero z'imihondo.

Ni abantu bahagaze imbere y'inyubako ifite irangi ry'ubururu yanditseho girubuzima, harimo abambaye amataburira y'igitare, imbere aho bahagaze harunze amatafari ahiye.

Ni inyubako z'amazu menshi, zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati y'umutuku, iburyo bw'izo nyubako hari umuhanda, urimo uranyuramo imodoka y'umukara.

Ni abanyeshuri, abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano y'ishati y'igitare, hasi bakaba bambaye amapantaro n'amajipo y'umukara, n'amasogisi y'igitare, bakaba bari imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Ni umuhanda wa kaburimbo, ku nkengero zawo hakaba hari ibyatsi, imbere y'ibyatsi hakaba hari inyubako kandi imbere y'iyo nyubako hakaba haparitse imodoka z'ibara ry'igitare kandi iyo nyubako ikaba isakaje amabati y'ubururu.

Ni inyubako ifite inkingi zisize ibara ry'umuhondo n'ubururu, inzugi zisize ibara ry'icyatsi hariho kizimyamwoto, iyo nyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite irangi ry'igitare n'ubururu, imbere y'aho hari indabyo ndetse na jaride y'ibyatsi.

Ni inyubako y'inzu ikaba iteye irangi ry'ubururu ndetse isakaje amabati y'ubururu, hejuru yayo hakaba hariho umurindankuba, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ubusitani bw'ibyatsi ndetse n'icyapa giteye irange ry'igitare.

Ni inyubako zubakishije amatafari ahiye zisakaje amabati y'umutuku, iruhande rwa izo nyubako hari imibyare ndetse hakaba n'ipoto rishinze impande y'iyo nyubako ririho insinga z'amashanyarazi.

Ni inyubako iteye irangi ry'ubururu kandi ikaba ishakakaje amabati y'ikigina, hejuru ku mabati hakaba hari umwirasire ndetse imbere yaho hakaba hari abantu bahagaze, umwe yambaye itaburiya y'igitare n'agapfukamunwa k'igitare.

Ni inyubako iteye irangi ry'igitare ikaba isakaje amabati y'icyatsi cyijimye , inyuma yayo hari ibiti n'umunara, imbere yayo hakaba hari umuhanda urimo imodoka y'umukara, ndetse n'itara ryo ku muhanda.

Ndabona inyubako ifite amabati y'ubururu yubakishije amatafari ahiye, imbere yaho hashashe amapave haparitse imodoka ndetse hari n'icyapa.

Ni ikibuga cya sitade, iyo sitade ikaba iteye irangi ry'icyatsi, umuhondo, ubururu, ikaba hamwe hasakaye ndetse imbere ya ho hakaba hari ikibuga ndetse n'amazamu ari kugaragara afite inshundura z'igitare.

Ndabona inzu y'inyubako ifite imiryango itatu, n'amadirishya ateye irangi ry'icyatsi, iteye irangi ry'igitare, ikongera ikigira irangi ry'umukara n'umuhondo, hirya yaho ibumoso hari umunara.

Ni inyubako ebyiri ziteye irangi ry'ubururu zifite amabati y'ubururu, imbere y'inyubako hari intebe yicayeho abantu batatu bambaye udupfukama twigitare kandi hari jaride y'ibyatsi ndetse n'indabo.

Ni abagore n'abagabo bahagaze imbere y'inyubako, iteye irangi ry'ubururu. Ikaba isakaje amabati y'ubururu kandi inyuma y'iyo nzu hakaba hari ikigega gifite ibara ry'umukara. Muri abo bantu hakaba harimo n'umusirikare ndetse imbere yabo hakaba hari ubusitani bw'ibirabyo.

Ni igicumbi cyanditseho Umurenge Rukomo, Akagari Gashenyi. Hariho idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'amabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu. Hariho n'uduseke tubiri, hagati ya seregituwere harimo ikirananiro cy'u Rwanda. Hejuru hari intebe z'ikidongi, hagati y'izo ntebe harimo icyansi. Inyuma yaho hari inyubako y'inzu n'insinga z'amashanyarazi.

Ni ikiraro kirekire, hejuru y'icyo kiraro hakaba hari abantu bahagazeyo, hasi hakaba hari umugezi uciyemo, urimo amazi atemba kandi ku nkengero z'uwo mugezi, hakaba hariho ibyatsi.

Ni inyubako ya sitade, hari ikibuga kirimo amazamu y'igitare ndetse n'umuhanda ufite ibara ry'umutuku, iyo sitade isize irangi ry'umuhondo, ubururu n'icyatsi.

Ni imodoka iri kunyura hagati y'inyubako ebyiri kandi inyubako imwe ikaba ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, iyo modoka ikaba ifite shitingi y'ibara ry'ubururu.

Ni inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari umugabo uhagaze imbere y'ibyansi batwaramo amata kandi hakaba haparitse na moto, mu ruhande rw'ibumoso hakaba hari ibiti birebire.

Ni inyubako ya SACCO iteye irangi ry'umuhondo, ifite yubakishije amatafari ahiye, imbere y'aho hari jaride irimo n'igiti cy'umwembe ndetse na jaride ya pasiparume, ifite idarapo imbere ry'u Rwanda rifite ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Ni umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande hari akayira k'amaguru, kubabakishijwe amapave, iruhande rw'umuhanda mu kaboko k'ibumoso hari amapoto n'insinga z'amashanyarazi, muri ako gahanda k'amapave, harimo umuntu uri kunyuramo wambaye imyenda y'umukara, inyuma y'uwo muhanda hari inyubako z'amabati y'ubururu.

Ni inyubako yubakishije amatafari ahiye, ishakakaje amabati y'igitare, iburyo bwayo hakaba hari ibiti, ibumoso bwayo hakaba hari ikigega, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ipoto ry'amashanyarazi ndetse n'ibirabyo.

Ni abantu benshi cyane higanjemo abasirikare, akaba bari mu muhanda wa kaburimbo inyuma yaho hakaba ibiti birebire by'inturusu, ku nkengero z'umuhanda hakaba hari amapoto afite amashanyarazi, ndetse n'insinga, bakaba bafite icyapa cyanditseho ngo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu.

Ni abantu benshi bahagaze hamwe abagore n'abagabo bari imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, iteyeho irangi ry'ubururu imbere y'iyo nyubako, hakaba hari ikigega gifite ibara ry'umukara hakaba hari n'igiti kirekire.

Ni abantu benshi abagore, abagabo, abakobwa n'abasore bicaye, imbere yabo hakaba hari abayobozi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, inyuma yabo hakaba hari imibyare myinshi cyane ndetse n'ibiti bya avoka, ibiti by'inturusu ndetse na gereveriya.

Ni abantu benshi bicaye, abagore, abagabo ndetse muri abo bicaye hakaba harimo n'abasirikare babiri bicaye ku ntebe y'imbere, umusirikare umwe akaba yambaye rinete, undi akaba ntazo yambaye, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi kandi bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yaho hakaba hari ibitambaro by'amabara y'igitare.

Ndi kubona abagabo n'abagore bicaye ku ntebe za pulasitike z'igitare, imbere yabo hari ameza bicaye inyuma y'inzu iriho amadirishya asize irangi ry'ubururu ndetse iyo nzu iteye n'umucanga gusa.

Ni abagabo n'abagore bahagaze mu byatsi, abagabo bafashe ikiziriko cy'inka, inka yazamuye ururimi, ifite ibara ry'umukara ndetse n'igitare, hakaba hari n'undi wambaye ikoti ry'itare na karuvati, afashe umunyu, iyo nka ikaba ihagaze mu byatsi nabo bahagaze mu byatsi.

Ni abantu bicaye mu byatsi abakecuru n'abagabo, imbere yabo hari abandi bicaye ku ntebe harimo umusirikare n'umudaso, inyuma ya bo bicaye ku ntebe hakaba hari ibiti by'inturusu.

Ni abantu bahagaze imbere y'amatente abiri bakaba bafashe amagare bambaye tishati z'umukara, hakaba harimo n'umudaso mu ruhande rw'ibumoso, inyuma yabo hakaba hari ibiti birebire bya gereveriya.

Ni inyubako ya sitade ikaba irimo abantu benshi harimo abagore bakenyeye imikenyero kandi hakaba hari ho n'amabafule amanitse hejuru ikaba iriho imitako y'ibitambaro bigize ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Ni imodoka ifite ibara ry'icyatsi kijimye, inyuma hakaba handitseho Ravafo kandi ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande rw'uwo muhanda iburyo hakaba harimo ipoto ry'amashanyarazi ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Ni icyapa cya mpande eshatu kikaba kiri mu muhanda wa kaburimbo imbere y'icyo cyapa hakaba hari moto ihetse abantu kandi iburyo bw'uwo muhanda hakaba ari ipoto rirerire rifite insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Ni umuhanda wa kaburimbo, iruhande ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibyatsi ndetse n'ipoto ry'amashanyarazi rifite insinga nyinshi zijyana umuriro mu baturage. Iryo poto rikaba ririho n'itara ryo ku muhanda kandi iruhande rw'u muhanda hakaba hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati y'igitare. Ikaba iteye irangi ry'igitare.

Ni imodoka nini ifite ibara ry'igitare ikaba iparitse ahategerwa imodoka hazwi nko ku izina ryo kuba hitwa muri gare ndetse iyo modoka ikaba irimo abagenzi batandukanye, iburyo bw'aho hakaba hari indi modoka y'igitare ndetse n'inyubako isakaje amabati y'ubururu n'umutuku.

Ni amapoto menshi kandi afite insinga ziyariho nyinshi zijyana umuriro mu ngo zitandukanye, kandi ayo mashanyarazi afasha abaturage mu mirimo yabo itandukanye. Impande y'ayo mapoto hari inyubako yubakishije amabati y'ibara ry'umutuku, ndetse hakaba hari n'ibiti bya gereveriya ku ruhande.

Ni umuhanda wa kaburimbo ndetse muri uwo muhanda hakaba harimo umuntu utwaye moto yambaye kasike y'umutuku, mu kaboko k'iburyo hakaba hari amazu yubatse ateye irangi ry'igitare.

Ndabona icyapa cyanditseho EN ijana na mirongo itanu na kabiri ST kiri imbere y'ibirabyo by'imituku n'umuhondo inyuma yaho hari igiti kinini, hirya iburyo ibumoso bw'icyo cyapa hari inzu ifite ibati ry'umutuku ndetse n'igipangu kiriho ibirabyo by'umuhondo.

Ni umuhanda wa kaburimbo urimo umuntu utwaye moto modoka, hepfo y'umuhanda hakaba hari inyubako ziteye irange ry'igitare, indi nyubako ikaba iteye irange rya oranje.

Ni umuhanda wa kaburimbo ku nkengero yawo hakaba hariho amapave ndetse hakaba hari n'icyapa impande y'umuhanda cya mpande enye gishushanyijeho imodoka n'inyuguti ya pa ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Ni umuhanda wa kaburimbo, urimo imirongo y'igitare bambukiraho, iburyo bwayo hakaba hari umuhanda w'abanyamaguru, wubakishijwe n'amapave.

Ni umuhanda wa kaburimbo ku nkengero zawo hakaba hari icyapa cyanditseho mirongo inani hakaba harimo n'ibiti bya gereveriya n'ubundi bwoko bw'ibiti ibyo biti hakaba harimo ibyari by'inyoni.

Ni ishyamba rifite ibiti birebire cyane kandi iruhande rwaho hari icyapa cyanditseho ry'Abega ndetse hakaba hariho n'uturabyo tw'umuhondo kuri ibyo biti.

Ni umuhanda wa kaburimbo unyuramo abagenzi ndetse n'ibinyabiziga hakaba hari iruhande rwayo ibyapa bibiri ndetse n'ipoto ry'amashanyarazi, iruhande rw'iburyo hakaba hari ibiti birebire by'ubwoko butandukanye ndetse n'inyubako.

Ni umumotari atwaye moto umuhanda wa kaburimbo, ahetse abana babiri, umumotari yambaye kasike y'ubururu, umwana wicaye inyuma yambaye ikasike y'umutuku, hepfo y'umuhanda hari inyubako isize irangi rya oranje handitseho ijambo ngo Fotibeti hepfo nanone hari inzu iteye irangi ry'igitare.

Ndabona imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo ifite ibara ry'igitare inyuma yaho hari umuntu uri ku igare hirya iburyo hari inzu iteye irangi ry'igitare, hirya y'iyo nzu iteye irangi ry'igitare hari inzu yanditseho ngo fotibeti mu ibara ry'itare n'umukara isize irangi ry'umuhondo.

Ni icyapa kiriho igare kegereye ipoto kikaba gihagaze imbere y'ibiti bya gasiya bifite indabyo z'umuhondo.

Ni ikibuga cy'ahigirwa imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga nka moto, hakaba hari imodoka ifite ibara ry'igitare ,ndetse iruhande rwaho hakaba hari hari ibyatsi, inyuma y'iyo modoka hari ipoto rirerire ry'amashanyarazi.

Ni ikibuga bigirahomo, hari ikimashini kicayemo abantu babiri umwe yambaye umupira w'igitare, icyo kimashini gifite ibara ry'umuhondo, hejuru yaho harasakaye, gifite amenyo abiri imbere n'imipine y'imikara, imbere y'cyo kimashini hari urugo rw'imiyenzi ndetse na pasiparume.

Ni abantu batandukanye abagore, abagabo, bari guterura amabuye, inyuma yabo hakaba hari ibiti by'isombe, avoka, ibiti bya gereveriya, imbere y'icyo giti cya gereveriya hakaba hari inyubako y'inzu, iburyo hakaba hari inyubako iteye irangi ry'ubururu handitseho Girubuzima.

Ni umugabo wambaye rinete z'umukara akaba yambaye isaha y'umukara n'impeta, afite ishati irimo uturongo tw'igitare n'ubururu, afashe agapapuro ndetse na mikoro ifite akabara k'umutuku hejuru, akaba arimo kuvugiramo inyuma ye hakaba hari umuhungu wambaye umupira w'igitare ufashe telefoni, ndetse na bafule iri inyuma ye n'ibiti.

Ni abantu benshi bicaye hasi abagore, abagabo hari umugabo umwe uhagaze afite mikoro, yambaye ishati y'igitare n'ikote ry'umukara akaba arimo kuvuga, inyuma yabo hari abahagaze ku mibyare banegamyeho.

Ndabona abantu bari mu muganda, bafite amasuka, bari impande y'igihuru, hirya yaho imbere yabo hari ibiti, bamwe barunamye abandi barahagaze, abandi bamanitse amapiki , hirya yaho hari umusozi uriho amazu.

Ni abantu benshi batandukanye: abagore, abagabo, abakobwa n'abakecuru, bamwe baricaye abandi barahagaze, barimo barakoma mu mashyi, inyuma yabo hari ibiti birebire bya gereveriya.

Ni abantu bahagaze kandi bamwe bambaye ingofero z'umuhondo imbere yaho hari ibiti bya gereveriya birebire, iburyo bwabo hari ibirabyo by'icyatsi bamwe muri bo bambaye amashati y'igitare.

Ni abagabo batanu bose bateruye amabuye, muri abo harimo umusirikare kandi bakaba bahagaze imbere y'igihingwa cy'ibigori, muri icyo gihingwa hakaba harimo igiti cya gereveriya.

Ni abagabo babiri bambaye amashati y'igitare n'amapantaro y'umukara, n'umugore umwe wambaye ishati y'igitare n'ipantaro y'umukara, bambaye inkweto zifunze, bari mu nyubako yubakishije amatafari ahiye n'amarangi y'igitare, hasi hari amakaro, kuruhande hari akabogisi bashyiramo imyanda.

Ni umupolisi wunamye arimo araterura amabuye, akaba iruhande rwe hari umuntu uhahagaze wambaye ipantaro y'ikoboyi wambaye bote z'umukara iruhande z'uwo wambaye boti z'umukara hakaba hari igihingwa k'isaka.

Ni abantu benshi batandukanye, abakobwa, abagore n'abagabo, n'abana, bakaba bahagaze ahantu mu byatsi, hakaba hahagaze imbere yabo umupolisi wambaye impuzankano y'umukara handitseho Rutagengwa.

Ni abantu benshi abagore n'abagabo, bambaye imipira y'imikara hakaba hari umusirikare inyuma yabo uri kuvugira kuri telefone, imbere yabo hakaba hari igiti cy'amahwa.

Ni abantu benshi bamwe bafite amasuka, undi afite umuhoro imbere yabo hari igiti cy'amahwa ndetse inyuma yabo hakaba hari ishyamba ririmo ibiti bitandukanye, kandi bamwe bambaye n'imyenda y'imikara undi yambaye ingofero y'umutuku.

Ni abantu benshi bicaye batandukanye abagore n'abagabo, abasore n'abakobwa inyuma yabo hakaba hari imibyare ndetse n'inyubako, imbere yabo hakaba hari igiti k'isombe, hari n'ibyuma.

Ndabona umusirikare umanitse amaboko n'umupolisi ufite ikaramu ku rutugu, wambaye ingofero y'umumukara nabandi bantu bicaye mu intente n'intebe ebyiri zifite ibitambaro by'igitare, n'amabara y'idarapo ry'u Rwanda icyatsi, ubururu n'umuhondo.

Ndabona abakinnyi bambaye imyenda itandukanye bari mu kibuga ndabona izamu, ndabona inzu, ndabona ibiti n'abana bato bari munsi y'ibiti. Abakinnyi bambaye jezi y'ubururu n'undi wambaye amasogisi y'umutuku wifashe mu nda, abandi bambaye ubururu bwijimye cyane n'abambaye ubururu bwererutse.

Ni abakinnyi b'abakobwa bahagaze kumurongo. Bambaye impuzankano y'umupira w'umuhondo n'amakabutura y'umukara. Hakaba hari umugore wambaye umupira w'igitare urimo kubambika imidari.

Ni abagabo b'abakinnyi, bambaye impuzankano y'umuhondo, urimo uturongo tw'umukara ku rutugu, ndetse bahagaze mu kibuga, hakaba hari n'undi wambaye impuzankano y'icyatsi na ga z'igitare mu ntoki.

Ndabona umukinnyi wambaye ijezi y'ubururu, nkabona n'izamu ndetse na neti cyangwa se inshundura zifite ibara ry'igitare, nkabona n'ikibuga n'imirongo y'ikibuga ndetse inyuma y'aho ndabona inkuta ziriho n'ibyatsi.

Ni abakinnyi b'abakobwa, bari gukina umupira w'amaguru, bambaye impuzankano y'umukara, abandi bambaye impuzankano y'ubururu kandi harimo umwe wambaye ibirenge, inyuma y'aho bari gukinira hari ibiti...

Abantu bahagaze ku kibuga harimo: Abapolisi, Abasirikare ndetse n'abakinnyi, abakinnyi bambaye jezi y'ubururu. Ndabona abakinnyi babiri bafashe bandelore yanditseho ngo amarushanwa y'Umurenge Kagame kapu.

Ni abakinnyi b'abakobwa, bari mu kibuga, bambaye amajezi y'umutuku n'umukara, abandi bambaye umukara, harimo umukobwa wambaye ibirenge, bari mu kibuga gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'imirongo y'igitare.

Ni umukinnyi uri gukina umupira w'amaguru imbere ye hari umupira w'amaguru bita balo, yambaye impuzankano y'umukara yanditsemo numero umunani, yambaye amasogisi y'igitare, imbere ye hari izamu rifite inshundura z'igitare.

Ni abakinnyi bicaye ku ntebe y'abasimbura, inyuma y'aho hari abandi bicaye muri sitade, abakinnyi bambaye impuzankano y'umuhondo irimo uturongo tw'umukara ndetse bambaye bamwe amasogisi y'ibara ry'umuhondo arimo n'utubara twi'icyatsi ndetse imbere y'aho hari umuhanda urimo ibara ry'umutuku n'akarongo k'igitare.

Ni abagabo batatu bambaye impuzankano y'umuhondo n'amasogisi y'umuhondo, bahagaze mu kibuga kandi uwo hagati yazamuye ikabutura ndetse inyuma y'ikibuga hari umukingo igiye iriho ibyatsi.

Ni abakinnyi b'umupira, bari gukina umupira w'amaguru kandi n'abakobwa bari gukina, bambaye impuzankano y'umukara, hasi bambaye amasogisi y'umukara n'inkweto z'umukara, abandi bambaye impuzankano hejuru imipira y'umutuku n'amakabutura y'umukara, umwe muribo yambaye ibirenge.

Ni umukinnyi uri gukina umupira w'amaguru w'umuhungu, akaba yambaye impuzankano y'ubururu ndetse ku ikabutura hakaba handitseho umubare kabiri, akaba gukinira ku kibuga cya tapi ndetse inyuma yaho hakaba hari inyubako, iteye irangi ry'umuhondo n'igipangu cyubakishije amatafari afite ibara ry'igitare.

Ndi kubona abakinnyi abambaye umuhondo, abambaye ubururu, kapiteni yambaye boratswawairi iri mu ibara rya orange nkabona na sitade iteye irangi ry'umuhondo n'ubururu n'umusekiririte uri impande yumuryango wiyo sitade.

Ni abakinnyi b'umupira w'amaguru bambaye impuzankano y'umuhondo iriho ibara ry'umukara, uturongo tumanutse ku ikabutura, bakaba bahagaze mu kibuga.

Ni abana batatu b'abahungu, bari gukina umupira w'amaguru ufite ibara ry'umutuku ndetse umwe muri bo akaba yambaye ibirenge, bari gukinira ahantu hari itaka, inyuma yaho hakaba hari ibyatsi.

Ni ikibuga cy'umupira w'amaguru hahagazemo umukinnyi wambaye impuzankano y'umukara imanutsemo uturongo tw'ubururu ku ikabutura ndetse n'umugabo uri kwirurukanka wambaye isaha ku kaboko, ishati y'igitare n'ipantaro y'umukara, yambaye n'amadarubindi.

Ndabona umuhungu wambaye ijezi y'ubururu ifite vi mu gatuza yifashe ku matwi, inyuma ye hari ibyatsi ahagaze ahantu h'itaka.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo urimo amatara yo muhanda ari kwaka cyane ndetse n'uturongo tw'igitare tuba turi hagati y'umuhanda.

Ndabona imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo iruhande rwayo iburyo bwayo hari inzu ifite inkingi eshanu, imbere y'iyo nzu hari umutaka wa MTN, iyo modoka ifite ibara ry'ubururu n'amapine y'umukara n'igitare.

Ndikubona umukobwa uri mu muhanda iruhande rwe hari amapoto hirya hari izamu ry'umupira w'amaguru, ndi kubona ibiti imbere ye ndetse n'ibyatsi kuruhande rw'ibumoso iruhande rw'iburyo hakaba hari kaburimbo, yambaye ijipo y'igitare yambaye ijipo y'icyatsi n'umupira w'umukara.

Ni umuntu uri mu muhanda yambaye itaburiya y'umukara iriho nomero zirindwi, akaba yikoreye ku rutugu udukarito tubiri dufite ibara ry'icyatsi n'umuhondo, muri iryo bara handitsemo fanta, akaba ari mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari inyubako iteye irangi ry'igitare n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abagenzi ndetse muri uwo muhanda hakaba harimo umugabo uri gusunika igare, hariho ibiribwa by'igitoki ndetse hepfo y'uwo muhanda mu kaboko k'iburyo hari inyubako iteye irangi ry'igitare ndetse n'amapoto y'amashanyarazi.

Ni imodoka y'umukara, iri mumuhanda wa kaburimbo, uciyemo umurongo w'umuhondo, iruhande rw'iyo modoka, iburyo bwayo hari amapave ndetse na pasiparume, iruhande rwa pasparume hari ibyatsi byinshi.